Abanyeshuri bicaye mushuri, imbere hariho abarimu bameze nkaho bari kwigisha abo banyeshuri. Abanyeshuri bambaye amashati y'umweru n'inkweto z'umukara. Abanyeshuri bakaba bari gukurikira mwarimu.

Abagabo barahagaze, umwe ari gukata icyuma, abandi barahagaze bari kumureba, bambaye ibisarubeti by’ubururu. Umugabo umwe yambaye ishati y’umweru, umukandara w’umukara, n’ipantaro y’igitaka. Undi mugabo ari gukata icyuma yambaye igisarubeti cy’ubururu.

Abantu bicaye bameze nk'abanyeshuri bambaye imyenda y'amashati asa n'umweru, hari imbere y'aho hari umugore umeze nk'aho ari kwigisha abo banyeshuri.

Abanyeshuri bakurikiye umupolisi uri kubigisha. Umupolisi afashe urupapuro mu ntoki rusa nk'umweru, yambaye inkweto z'umukara n'imyenda y'umukara. Abo banyeshuri bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'icyatsi.

Umugore wambaye umwenda w'umweru hejuru, hasi w'umukara, ari guhereza umukobwa inkweto, uwo mukobwa wambaye igisurubeti gisa nk'ubururu, imbere ye hakaba hariho n'undi uri kureba inkweto zisa nk'igitaka.

Umugabo uteruye imashini wambaye, uwo mugabo yambaye masike n'agapfukanwa k'umukara, umugabo kandi yambaye igisarubeti cy'ubururu ateruye n'akamashini gasa n'umukara, impande yaho hahagazeho undi mugabo wambaye ga z'umutuku, akaba yambaye igisarubeti gisa n'ubururu.

Abana b'abakobwa b'abanyeshuri, bambaye imyenda y'ubururu bafashe impapuro mu ntoki ziriho ibishushanyo. Bameze nk'aho aribo bamaze gushushanya ibyo bishushanyo.

Abantu bameze nk'aho bicaye, ahantu bigishiriza kudoda, bicaye bari kudoda imyenda itandukanye, kuko bibagirira akamaro mu buzima bwa bo.

Abantu bambaye ibisurubeti by'igitaka, bambaye n'udupira mu nda dusa nk'umukara. Bameze nk'aho sinzi ibintu bari gukora hasi hateretseho indobo y'umukara ifite n'ibyuma bisa n'umukara n'igitaka.

Abahungu bameze nk’aho bari gukanika igikoresho runaka, nk’imashini, kuko bambaye n’ibisarubeti by’ubururu. Bakaba bafashe n’imashini mu ntoki, bari gukora.

Abanyeshuri bicaye imbere y'imashini. Hariho umwarimu umeze nk'aho ari kwigisha aba banyeshuri. Uwo mwarimu akaba yambaye karuvati n'ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru y'amaboko maremare.

Abagore batatu n'umuhungu umwe, bambaye ibisarubeti by'ubururu, harimo umugore wambaye ikoti ry'umukara, bameze nkabari gukora imashini bishimye bari guseka.

Umuganga uri kuvura inka, inka bayiziritse imirunga mu kanwa no mu ijosi, uwo muganga akaba yambaye isurubeti y'umweru, yambaye n'agapfukamunwa k'umweru, yipfutse n'agatambaro ku mutuku, yambaye na ga z'ubururu, akaba ari kuyitera urushinge.

Abantu bameze nk'abanyeshuri bicaye bari kwiga, hariho umugabo umwe wambaye amakoti, abo banyeshuri bakaba bambaye amashati, asa nk'ubururu, hirya yaho, hakaba hariho n'ibiti binini.

Abagabo batatu bambaye ibisarubeti by'ubururu, hirya yaho hariho bateretseho intebe bari gukora ikintu kimeze nk'imashini, hariho n'umugore wambaye agapfukamunwa.

Umugabo upfukamye wambaye imyenda y'umukara, yambaye n'amaga y'umukara, yambaye amadarubindi y'umweru n'umukara, impande ya ho hariho utuntu tw'utubogisi tunyuzemo insinga z'umukara.